Mu muco gakondo hakoreshwaga ibikoresho bigiye bitandukanye. Ikibindi ni kimwe mu byakoreshwaga mu muco gakondo wo hambere, hifashishwa nko guhogera nk'urwagwa cyangwa se icyo kunywa.

Mu bihingwa duhinga hari byinshi bikenerwa kugosorwa cyangwa gutoranywamo imyanda kugira ngo tubone uburyo tubikoresha nta myanda irimo. Nk'ibishyimbo, amasaka, haba harimo utwanda. Igihe turimo tubitunganya ,tugomba kubigosora cyangwa kubitunganya, kugira ngo tubirye cyangwa tubiteke bifite isuku.

Mu muco gakondo wa kera w'abanyarwanda, hari ibikoresho byinshi cyane byakoreshwaga, byifashishwaga mu mirimo itandukanye, nk'inkoko inkongoro, indobo, ibikombe ndetse n'ibindi.

Ibikoresho by'amashanyarazi y'umuriro ni ngombwa kubikurikirana tukabibungabunga ,kugira ngo bitabasha gutera impanuka cyangwa bikaba byabasha kwangirika, ndetse n'ababikoresha bakabikoresha bigengesereye insinga , turunovisi ni bimwe mu bikoresho by'amashanyarazi bikwiye kubungabungwa igihe bikoreshwa.

Igihugu cyacu gifite ahantu h'ingirakamaro, hahurira abantu benshi cyane bagiye batandukanye, ahantu rusange dusangamo amasoko, ku mashuri ndetse no ku rusengero, ku rusengero ni ahantu hahurira abantu benshi cyane bahujwe no gusenga.

Amatafari menshi agerekeranyije yubatse inzu ndende izwi nk'urusengero, ahabera umurimo w'Imana basengera, bakihuza n'Imana ukaganira nayo. Urusengero cyangwa kiliziya ni ahantu hasengerwa n'abantu benshi batandukanye, bafite umugambi wo kwihuza n'Imana cyangwa kuganira n'Imana.

Amatafari yubatse agerekeranyije, inzu izwi nk'urusengero ahabera igitaramo cyangwa amasengesho yo kuramya no guhimbaza Imana, abantu benshi batandukanye bari kuhakora amasuku, abatera indabyo, abari guhinga n'abandi benshi bagiye batandukanye.

Ibinyabiziga ni bimwe mu bintu rusange bitwara abantu n'imizigo ,dusangamo nk'imodoka ,indege ,n'ibindi mu bishobora gutwara abantu bakagera aho bashaka kujya mu buryo bworoheje cyane.

Mu binyabiziga dusangamo byinshi bitandukanye, bidufasha mu bwikorezi bitwara imizigo ndetse n'ibindi. Imodoka ni kimwe mu binyabiziga bifasha abaturage, mu bwikorezi bw'imizigo ihambaye minini cyane, imodoka ni ikinyabiziga gifitiye umumaro ndetse abaturage n'igihugu muri rusange.

Muri gare ni ahantu hahurira abantu benshi batandukanye, bagiye gutega imodoka, bagiye ahantu runaka. Imodoka ni imwe mu bikoresho cyangwa mu binyabiziga bitwara abantu benshi bagiye batandukanye.

Siporo ni imyitozo ngororamubiri, ishobora gutuma umubiri umera neza bushobora gukoramo imyitozo igiye itandukanye .Ugakora umubiri umuviga, muburyo bwo kugira ngo umubiri wawe, umere neza.

Hari imikino ngororamubiri myinshi igiye itandukanye, hari ikinishwa amaguru, ndetse n'ikinishwa amaboko. Ikinishwa amaguru dusangamo umupira w'amaguru. Hari n'ikinishwa amaboko twita: basiketi, hand ball ndetse n'indi myinshi igiye itandukanye. Basketi ni umukino ukinishwa amaboko bamwe bafite aho bari gutsinda n'abandi bafite aho bari gukira.